Aha ni kuri posite desante, ku bitaro biba byegereye abaturage bikabafasha kwivuza batagowe ngo bajye kuri santere de sante bitewe n'uko posite desante iba yegereye abaturage mu gihe ku bitaro bya santere desante aba ari kure y'abaturage, Umuturage kuba yagerayo bikamuvuna agiye kwivuza bitewe n'imihanda.

Iazi ni imboga z'inyabutongo, umuntu wese yazigira mu karima k'igikoni, bikamufasha mu mirire myiza. Izi mboga abenshi bazizi ku izina rya dodo, zifasha abana mu gukura neza.

Aha ngaha hari ubwatsi aborozi bakenera mu guha amatungo yabo. Kandi aka gati ni agati keza kataranda, katagira imizi minini ,wakoresha mu gihe uri gukora ubusitani bwo mu rugo iwawe, aka gati kakenerwa .

Icyatsi ni kiza mu buzima bwacu kubera ko iyo giteye ahantu birinda isuri, ibi byatsi bitega amazi hanyuma amazi ntabashe kuba yakwinjira mu murima ari menshi cyane ku buryo yateza isu.

Utu twatsi tumera mu mabuye. Utu twatsi watwifashisha wivura. Utu twatsi iyo udufashe ukadukaraga, ukadusiga ahantu hari igisebe, nta bwo gitinda kuma. Dukunda kumera mu mabuye mo hagati, amabuye y'amakoro.